Mu cyumba gifite amakositara menshi ndetse gifite irangi ry'umuhondo; harimo umugabo wambaye umwenda w'ubururu arimo agenda aho abana batoya bicaye kumukeka amata yo kunywa. Bose bamuhanze amaso kandi bamwe batangiye no kunywa.

Imbere y'icyumba cy'amashuri, ababyeyi babiri bari kwigisha abana, bafashe amaboko yabo bayashyize ku mutwe, bahagaze mu busitani bugizwe n'ibyatsi gusa, ikigo gifite inkingi zigikikije za senyenge ndetse hirya hari urutoki rwinshi rurimo n'ibiti bikeya n'inzu ituwemo.

Imbere y'icyumba cy'ishuri hateraniye utwana dutoya twambaye impuzankano zisa ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi twakoze uruziga dusutaraye, hepfo yabo gatoya hari icyumba kiriho urukuta rushushanyijeho amakarita, ikarita y'u Rwanda, ikarita ya Afurika ndetse n'ibindi.

Ku irerero hahagaze abana benshi, bari gukarabywa n'umubyeyi umwe kuri umwe, kuri kandagira ukarabe. Inyuma yabo gato hari umurima uteyemo ibigori, insina ndetse n'amashu. Hirya y'ibyumba hari n'umurima uteyemo amashyamba menshi.

Urubaho rurambitseho ingwa enye zifite amabara atandukanye. Eshatu muri zo zifite ibara ry'umweru, naho imwe ifite ibara ry'umuhondo. Ku ruhande hari ikirenge cyambaye ipantaro y'ubururu, ndetse n'inkweto zijya gusa umuhondo, cyangwa umutuku.

Ku rukuta rwubakishijwe amatafari ahiye, hari imigozi myinshi itwara amashanyarazi, mu nguni yarwo harimo udukoresho dukoreshwa bongera umuriro mu bikoresho by'ikoranabuhanga, hari kandi n'idirishya rifunguye ryongera urumuri rwinshi.

Icyumba bafatiramo amafunguro. Harimo umugabo wambaye imyenda y'umweru n'umukara, urimo aha umwana wambaye impuzankano y'ubururu akawunga. Imbere ye hateretse amasahani menshi ariho akawunga, ndetse n'andi atarajyaho akawunga. Ku ruhande hari ibase irimwo imboga.

Abana babiri b'abakobwa bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, ndetse bahagaze imbere y'ibyumba by'amashuri byubakishijwe amategura ndetse n'amatafari ahiye, inzugi n'amadirishya mu ibara ry'umukara. Inyuma y'amashuri hari ibiti bitandukanye, ndetse n'umusozi, ukikijwe n'ikirere gikeye mu bururu bwinshi n'umweru mukeya.

Igipapuro kinini, kiri mu ibara ry'umuhondo cyometse ku rukuta rugizwe n'amatafari ahiye. Gishushanyijweho, ibishushanyo bitandukanye bigera muri bitandatu ariko mu rurimi rw'igifaransa. Ibishushanyo ni inzu, imodoka, igare, igiti, igikombe ndetse n'ameza.

Ikirere gikeye mu ibara ry'umweru n'ubururu, umuhanda w'igitaka werekeza ku marembo y'ikigo cy'ishuri, imbere hari ubusitani ndetse n'ibendera ry'igihugu, hakurya hari amazu y'abaturage akikijwe n'urutoki ndetse n'ibiti.

Imbere y'imbuga yuzuyemo ibyatsi, hari igikuta kigizwe n'amabuye ndetse gifite n'irange ry'umuhondo mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho bakame ifite ikaramu mu ntoki imeze nk'iri kugenda iseka, iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, yambaye inkweto z'umuhondo.

Ibyumba by'amashuri byubakishije amatafari ahiye, irangi ry'umuhondo, amadirishya n'inzugi asize irangi ry'umukara ndetse n'amabati y'ubururu, hahagaze abana bambaye impuzankano ya kake ndetse n'abana b'abakobwa bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, hari umuntu w'umugabo wambaye ishati y'umukara arimo agenda mu mbuga.

Abana b'abanyeshuri, bahagaze imbere y'umuryango w'ikigo, bamwe ari bo bake bareba imbere mu kigo, abandi benshi bateye umugongo umuryango w'ikigo. Abenshi ni abakobwa n'abahungu bake.

Ku muryango w'icyumba cy'ishuri hahagaze abana babiri batandukanye, umwe ni umukobwa undi ni umuhungu ishusho ye yo mu maso itagaragara; hirya hari abandi bana bicaye ku ntebe kandi benshi cyane, mu idirishya harimo haravamo urumuri rwinshi rw'izuba, hejuru hari igisenge cy'ibyuma.

Igihuri cyubakishijwe amatafari ahiye kigasakazwa n'amategura, inyuma yacyo hari amashyamba agikikije, hakurya hari agasozi kariho n'amazu y'abantu, imbere yaho hari abana b'abanyeshuri abambaye impuzankano za kaki n'abambaye impuzankano zisa umweru hejuru na kake hasi ndetse n'abambaye impuzankano zisa ubururu ari bo b bakobwa.

Urukuta rufite ibara ry’umweru ndetse n’umukara hasi, hari impapuro eshatu zitandukanye. Uhereye iburyo, hari urupapuro rw’ubururu rushushanyijeho inyoni, umuhanda, inzu ndetse n’igiti. Hagati hari urupapuro rushushanyijeho amabara, ariko rwo rurasa n’umweru rushushanyijeho amabara y’umutuku, umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse n’umweru. Ku ruhande ibumoso, hari urupapuro rushushanyijeho igikombe, narwo rurasa n’umweru.

Icyumba cy'amashuri cyubatse mu buryo bugerekeranije kabiri, ikoresheje amatafari ahiye, mu irangi ry'umuhondo, ndetse inzugi n'amadirishya bikaba bisa ubururu. Hepfo hari umu umugabo usa nk'uhugiye muri telefone. Imbere hari kandagira ukarabe.

Icyumba giteraniyemo abantu batandukanye b'igitsina gabo, bahanze amaso abanyeshuri b'abahungu bambaye impuzankano yo mu ibara ry'umweru hejuru ndetse na kake hasi barimo bararirimba, imbere ya bo hari ibyuma birimo amabafure ndetse na seti.

Mu mbuga ngari, harimo hatambukamo abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ubururu bwijimye. Harimo umwana w'umukobwa uteruye isahani irimo imboga z'ibishyimbo. Harimo kandi n'ikidendezi cy'amazi. Hirya hari ibyumba by'amashuri, n'abana bahagaze imbere yabyo.

Abanyeshuri benshi b'abasikuti bahagaze mu ishusho y'ikinyampande enye, hagati yabo harimo abagabo bagenda batambuka. Hirya yabo bakikijwe n'ibiti byinshi cyane. Bambaye impuzankano zirimo imyenda y'umweru hejuru ndetse na kake hasi.

Bimeze nkaho ababyeyi basuye abana babo ku ishuri. Abana bari guhoberana n'ababyeyi babo n'inshuti zabo, ubona ko buri wese ahugiye ku muryango we.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, munsi yaho hari ibyatsi byumye, kirerekana ishuri rya Mutagatifu Terinite wa Ruhango. Hari icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'amashuri yisumbuye, cyandikishijwe ibara ry'ubururu bwijimye, ndetse n'umukara n'umutuku. Ishuri riri muri metero magana inani.

Mu ishuri, umunyeshuri ahagaze imbere y'abandi banyeshuri, mu mpuzankano zabo z'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki, ari kubabwira imbwizaruhame, bicaye ku ntebe z'ibiti, ariko we arahagaze, inyuma ye hari ikibaho ndetse n'akameza karambitseho ibitabo.

Amarembo afunguye yinjira mu kigo k'ishuri, gifite icyapa kinini hejuru, cyanditseho tugenekereje mu Kinyarwanda ngo ikaze mu ishuri ryisumbuye rya Sumba, hirya hari umunyeshuri wambaye impuzankano ye, inyuma ye hari ibiti ndetse n'icyumba k'ishuri, hejuru hari imigozi y'amashanyarazi ndetse n'ikirere gikeye mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Ikibuga cy'umupira mpuzamahanga cya Huye, gitatswe n'amabara menshi agiye atandukanye, harimo n'ay'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, harimo ingeri z'abanyeshuri batandukanye. Harimo abambaye impuzankano z'imyenda y'ubururu hejuru ndetse na kacye hasi, hari n'abandi bambaye impuzankano isa umweru hejuru ndetse na kacye hasi. Ndetse hari n'ikirere gikeye, inyuma yaho hari n'ibiti.

Icyumba cy'ishuri ryo kwigiramo. Ku muryango hahagaze abantu bane. Abagore babiri n'abagabo babiri. Berekeje amaso yabo ku muryango w'ishuri.

Icyumba kigari kirimo abana b'abanyeshuri benshi, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, ndetse bafite n'amakarita afite imishumi iri mu ibara ry'ubururu. Bari kumva imbwirwaruhame n'umugabo wambaye umupira w'umweru. Bose bamuteze amatwi kandi bamuhanze amaso.

Umuhanda wa kaburimbo urimo utambukamo abanyeshuri babiri b'abakobwa, bagana icyapa kigaragaza bisi aho ziparika, abaturage bari imbere y'umuryango w'icyo kigo cy'ishuri, kigizwe n'ubusitani ndetse hakurya yacyo hari amashyamba ndetse n'impinga y'umusozi ubona ko ihinzeho imyaka.

Icyumba gifite igikuta gifite irangi ry'umuhondo. Idirishya irangi ry'umukara kandi rikinguye. Hasi hari uburiri budashashe neza. Ku ruhande na none hari igikapu gisa umukara. Mu nguni harimo n'ikindi gikapu kirimo imyenda ndetse y'umweru.

Isomero ryo kwigiramo ibijyanye n'ubuganga icyumba O R cumi na kabiri, amatara yaka ibara ry'umweru ndetse n'amarido hakurya ku muryango.

Amarido abiri kandi mu ibara rimwe ateye ku gikuta kimwe, atandukanyijwe n'akantu gatoya, rimwe riri mu nguni ya ruguru y'ibumoso, kandi riteye neza, rinagaragara neza, irindi riri hagati ariko ntabwo riteye neza.

Ikigo kinini cyane gifite amazu manini kandi atandukanye, yubatse ku buryo bugerekeranyije. Hari ibiti, hari ubusitani, ndetse hari n'ahantu hubakishijwe na sima. Hari ikirere gikeye kirimo urumuri rwinshi

Imbere y'inyubako ndende iri mu ibara ry'umuhondo wiganje, ndetse n'amagambo ayiranga akaba mu nyuguti z'icyatsi, hahagaze umugabo w'umuzungu uri inyuma y'amabendera abiri. Inyuma ye kandi hahagaze abagabo babiri, bahugiye muri terefone. Iruhande rwabo hari ibiti.

Icyumba gifite amakaro hasi, gifite intebe ebyiri zo kwicaraho, ndetse n'ameza hagati yazo. Ku meza hari imashini, ndetse n'igikombe, ku ruhande rw'iburyo hari uburiri bwo hasi n'ubwo hejuru. Ku ruhande rw'ibumoso hari akabati kamanikwamo imyenda.

Icyumba gifite inkuta z'umuhondo. Kirimo uburiri bubiri butandukanye. Irido rikikije idirishya. Ku ruhande hari akabati karimo inkweto zigiye zitandukanye. Hejuru hari udupira twifashishwa kuvoma amazi. Ku ruhande kandi hari n'aho bacomeka terefone ngo ijyemo umuriro.

Icyapa kiriho ikirango cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, kiri mu busitani. Gikikijwe n'indabyo zitandukanye, mu ibara ry'umutuku ndetse n'ibyatsi. Hakurya y'umuhanda, hari abantu bicaye munsi y'ibiti, ndetse n'inzu ziri mu ibara ry'umuhondo, hari n'imodoka iri hirya y'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye. Harimo igitanda, imyenda yo kwambara, matera, udupira, korugate, ibikombe, ameza, inkweto ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba gifite umuryango ufite irangi ry'ikigina ufite numero MA makumyabiri na gatatu, zeru, R, icumi, ndetse ukikijwe n'igikuta kiriho irangi ry'umuhondo, ndetse n'ikirangantego kigaragaza ishuri rikuru rya Kaminuza y'u Rwanda, munsi hariho na kizimyamwoto.

Itsinda ry'urubyiruko rwiganjemo abana b'abakobwa ndetse n'umuhungu umwe bicaye bahurije hamwe ibitekerezo, inyuma yabo hari akabati kuzuye ibitabo byinshi ndetse hari n'irido n'idirishya, inyuma na none ugarutse ku ruhande rw'abakobwa hari imashini ifunguye.

Icyumba kinini cyisanzuye ni cyo mu mashuri ya kaminuza. Imbere hari ikibaho bandikaho, ku mpande hari amadirishya akikijwe n'amarido asa ubururu ndetse n'umweru. Imbere hari amatara yaka umweru cyane. Hagati hari mo intebe nyinshi cyane abantu cyangwa abanyeshuri bicaramo. Harimo n'umunyeshuri uri imbere ya mudasobwa, arimo arandika.